Inama yahuje abakorerabushake ku kigonderabuzima ndetse n'abaganga, yigaga ku buryo bagiye kujya batanga amahugurwa, bakanakangurira abaturage gutanga amaraso.

Abakora akazi ko gutwara abarwayi, batwara imbangukiragutabara z'ibitaro bigiye bitandukanye, mbere yo kujya mu kazi cyangwa gutwara umurwayi, barabanza bagafata igipapuro gitanzwe na dogiteri w'ibitaro.

Abakozi bo ku bitaro mu rwego rwo kwirinda inkongi z'umuriro, Minisiteri y'ubuzima yagiye ikwirakwiza ibikoresho bizimya inkongi kuri buri bitaro ndetse ishyiraho n'abakozi bashinzwe gukoresha ibyo bikoresho.

Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo bwo gutwara amaraso, bifashishije utudege tutagira abapilote, ibi byoroshya ingendo kandi bigatanga ubutabazi bwihuse.

Imbangukiragutabara y'ibitaro biherereye mu Karere ka Nyagatare byitwa Gatunda ni imwe muyikora ubutabazi ku gihe kandi abaturage bishimira serivise z'ibyo bitaro.

Kwa muganga mu byumba bitangirwamo ubutabazi bwihutirwa, bigomba kuba bifite ibikoresho bihagije, isuku kandi harimo ibitanda bimeze neza mu rwego rwo gufasha abarwayi kugira ubuzima bwiza.

Abaganga bakora ku kigo nderabuzima mu bijyanye no kwakira indembe, basabwa kuba maso bakirinda kurangara kandi bagafatanya, ibi bikaba bigira ingaruka nziza ku murwayi agahabwa serivisi nziza kandi inoze.

Ubumwe, urukundo, umurava ni bimwe mu biranga abakozi bakora ku bitaro kuko ibi bibafasha gukora akazi kabo neza kandi bagatanga serivisi mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Ibitaro bya Gatunda byateguye ubukangurambaga bwo gukangurira abaturage kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangagitsina ndetse n'uburyo bashobora gukoresha agakingirizo nk'uburyo bwo kwirinda sida, inda zitateganyijwe ndetse n'izindi ndwara zitandukanye.

Abakozi bo kwa muganga barasabwa kunga ubumwe bagafatanya ndetse bakagira n'urukundo, ibi bikaba bibafasha gukora akazi kabo neza ndetse n'abarwayi bakabona serivise nziza kandi zihuse.

Mu bitaro kwa muganga ahakirirwa abarwayi, niho usanga hatangirwa serivisi zinoze, dore ko minisiteri y'ubuzima isaba abakozi bo kwa muganga kwita ku barwayi nk'inshingano.

Ikoranabuhanga ryageze hose ndetse ridasize no mu bitaro. Abakora mu bitaro bavuga yuko amakuru yabo basigaye bayabika muri mudasobwa, ibi bibafasha kutayabura cyangwa se ngo abe yakangirika.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, ni kimwe mu bigo nderabuzima by'indashyikirwa mu Rwanda, dore ko gitanga serivisi zitandukanye, harimo kwakira abarwayi, abatwite ndetse n'abafite ubundi burwayi butandukanye.

Kwa muganga ahatangirwa serivise z'ubuvuzi, haba hari umwe mu babyeyi, ushinzwe kuganiriza abarwayi ibijyanye n'ubuzima bwabo bwa buri munsi, akabigisha uko birinda indwara zandura nuko bazirinda.

Imbangukiragutabara cyangwa se imodoka zitwara abarwayi kwa muganga abazitwara barasabwa kubahiriza amategeko y'umuhanda kandi bakirinda kurangara mu rwego rwo kwirinda impanuka zibera mu muhanda.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abaturage ndetse n'abantu bose muri rusange gukoresha agakingirizo mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangagitsina, umuyobozi kandi abakangurira no kugira isuku bagakaraba amazi meza n'isabune mu rwego rwo kwirinda indwara zandura.

Abayobozi ndetse n'abakozi b'ibitaro bahuriye hamwe baganira kuri serivise nziza zigomba guhabwa umurwayi. Umuyobozi w'ibitaro yashishikarije abakozi ko bagomba kujya batanga serivise nziza kandi zinoze.

Mu rwego rwo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w igihumbi kimwe maganacyenda mirongo icyenda na kane, abakozi bo ku bitaro ndetse n'abandi bahakorera baje kwibuka abantu bahiciwe baba bakozi ndetse n'abari baharwariye.

Mu bitaro kwa muganga ahazwi nko mu byumba by'ibizamini, ni hamwe mu hagomba kugirirwa isuku hakitabwaho ku rwego ruri hejuru cyane ugereranyije n'ahandi.

Kwa muganga ibyumba bitangirwamo ibizami, bigomba kuba bifite isuku kandi abakoramo bagomba gutanga serivise nziza mu rwego rwo kurinda umurwayi no kubahiriza uburenganzira bwe.

Abakozi bakora mu byumba by'ibizamini kwa muganga mu ndimi z'amahanga bita laboratware, basabwa kugirira isuku ibi byumba mu rwego rwo kwirinda kwangiza ibikoresho ndetse no kubisigasira.

Abakozi bakora mu byumba by'ibizami kwa muganga, basabwa gucunga neza ibikoresho byabo kandi bakabigirira isuku, mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi inoze.

Ibyumba bibikwamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima ibizamini by'abarwayi, bigomba kuba bikoze neza bifite isuku, mu rwego rwo kwirinda ko hagira ibyangirika.

Mu bigo by'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, hasanga ibyumba by'ibizamini, bifasha abana mu kwihugura ndetse no kongera ubumenyi, ku bijyanye n'amasomo baba biga.

Abakozi bakora kwa muganga cyane cyane mu byumba bipimirwamo ibizamini by'abarwayi, basabwa kwitonda ndetse bagatanga serivisi neza mu rwego rwo gutanga serivisi inoze.

Abakozi bo kwa muganga bakora mu byumba by'ibizamini basabwa kwitonda cyane kandi bakagirira isuku ibikoresho bakoresha ibi bifasha abarwayi ndetse n'abaganga ubwabo.

Abakozi bo kwa muganga cyane cyane abakora mu byumba bifatirwamo ibizamini by'abarwayi barasabwa kujya bita ku bikoresho byo muri ibyo byumba ndetse bakagira isuku mu rwego rwo kwirinda indwara zanduzanya.

Abakora mu bitaro cyane cyane mu byumba bitangirwamo ibizamini by'abarwayi, barasabwa kwitonda kandi bakagira isuku mu rwego rwo gutanga serivisi inoze.

Mu rwego rwo kubungabunga imikurire y'abana Leta y'u Rwanda ndetse na minisiteri y'ubuzima irakangurira ababyeyi ko bajya bajyana abana babo kwa muganga igihe batangiye kugaragaza ibimenyetso bigiye bitandukanye.

Ababyeyi, abarimu ndetse n'abandi bafite inshingano mu buzima, ni bamwe mu bagomba gufata runini mu iterambere ry'umwana, yaba mu mikurire, mu myigire ndetse n'ibindi.

Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho gahunda y'urugo mbonezamikurire y'abana batoya mu rwego rwo gushyira ubuzima bw'abana imbere bakangurira ababyeyi kugira isuku, gukaraba amazi meza n'isabune igihe bagiye kugaburira abana babo.

Minisiteri y'ubuzima irakangurira abaturage bose kwitabira gahunda y'ikingira mu rwego rwo kwirinda indwara zandura ndetse n'indwara z'ibyorezo.

Ubuzima bw'umwana buba bugomba kubugwabungwa, ababyeyi ndetse n'abaganga ni bamwe mu bagomba gufata iya mbere mu gusigasira ubuzima bw'uyu mwana kugira ngo azakure neza, kandi yiteze imbere.

Mu rwego rwo kubungabunga imikurire y'umwana ndetse n'imitekerereze ye, ababyeyi bibumbiye hamwe bashaka imboga, imbuto bagaburira abana babo kugira ngo bazagire imikurire myiza ndetse n'imitekerereze myiza.

Minisiteri y'ubuzima yashyizeho gahunda zo gutanga inkingo ndetse no gutanga amahugurwa mu bice by'ibyaro. Ibi bifasha abaturage kumenya ndetse no kuzirikana uko bashobora gufata neza ubuzima bwabo.

Kuri buri bitaro hasangwa serivisi ya Isange one stop center, aho bakirira abagore, abana ndetse n'undi uwo ari we wese wahohotewe.

Ku munsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe, abayobozi bo mu nzego zitandukanye ndetse n'abaturage bagiraga bati "twongere imbaraga mu kwita ku buzima bwo mu mutwe".

Abakora mu byumba bibikwamo imiti barakangurirwa kuyigirira isuku, mu rwego rwo kwirinda ko yakangirikara cyangwa se ikaba yagira ingaruka mbi ku bo ihawe.

Abacuruzi bacuruza imiti ivura abantu, barasabwa kujya bubahiriza amategeko kandi barasabwa kugira isuku, gutanga serivisi nziza no kwirinda kugurisha imiti yarangije igihe.

Amaduka acururizwamo imiti ndetse bagakoresha ibimera, ni amwe mu yakora ubuvuzi bugiye butandukanye, harimo nk'ubuvuzi bw'igifu, imyijima ndetse n'ibindi.

Amaduka acuruza imiti y'abantu ni amwe muyafite akamaro mu buzima bw'abantu bwa buri munsi kuko bifasha abaturage kwivuriza hafi igihe barwaye bidakomeye cyane.

Amaduka acuruza imiti agiye atandukanye, ni amwe mu yafite akamaro dore ko akorana n'ubwishingizi bugiye butandukanye, harimo n'ubwishingizi bwa mituweli.

Abacuruzi bacuruza imiti itandukanye, barasabwa kuyigirira isuku, bakayibika ahantu heza habugenewe hayirinda kwangirika. Ibi ni mu buryo bwo kwirinda gutanga ibintu bidafite akamaro.

Amaduka acururizwamo imiti y'abantu agomba gutura hafi y'umuhanda, mu rwego rwo korohereza ababagana ndetse bakajya batanga na serivise nziza kandi inoze.

Abacuruzi bafite amaduka bacururizamo imiti, ni bamwe mu basabwa kugirira isuku imiti yabo bakayibika ahantu habugenewe, kugira ngo imiti idatakaza ubuziranenge bwayo.

Abakozi ba Minisiteri y'ubuzima bahuguye urubyiruko, banarwigisha bimwe mu byo bakwiye kwirinda, harimo nko kwirinda virusi itera SIDA bakoresha agakingirizo kandi neza.

Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abakozi bo mu nzego z'ubuzima ni bamwe mu bakangurira urubyiruko kujya bakina ariko bakanirinda mu rwego rwo kugira ubuzima bwiza ndetse n'ejo heza hazaza.

Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'abandi bakozi bo mu nzego z'ubuzima zitandukanye barakangurira urubyiruko gukoresha agakingirizo kandi neza mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu myanya ndangagitsina.

Minisiteri y'Uburezi ndetse n'abandi bakozi batandukanye baturutse kwa muganga, ni bamwe mu batangije ubukangurambaga bwo gukangurira abantu bose kwipimisha virusi itera SIDA bakamenya uko bahagaze.

Mu buvuzi bwa gakondo hifashishwaga ibintu bitandukanye, ibiti, ibyatsi ndetse n'ibindi, ibi byatangaga umusaruro ukomeye kuko wasangaga indwara nyinshi zivurwa n'abaganga ba gakondo.

Imiti ya gakondo cyangwa abandi bita imiti ya kinyarwanda, yabaga ikozwe mu byatsi ariko by'amoko atandukanye nk'uko yavuraga indwara zitandukanye.

Mu buvuzi bwa gakondo hifashishwaga ibikoresho bitandukanye, mu gukura amenyo, kuvura ndetse n'ibindi. Ibi byafashaga abaturage kubona ubuvuzi kandi mu buryo bworoshye.

Ubuvuzi gakondo ni kimwe mu byari bifitiye abaturage ba kera akamaro, kuko bifashishaga ibyatsi mu kuvura indwara zitandukanye nk'ibyatsi bitaga kimari, nyirabarasanya ndetse umuravumba n'ibindi bitandukanye.

Ibimera bitandukanye byifashishwaga mu miti ndetse no mu buvuzi bwa gakondo, aho wasangaga abakecuru ndetse n'abasaza bifashisha ibi bimera mu kuvura indwara zitandukanye.

Abaganga gakondo ni bamwe mu bifashishaga ibimera mu kuvura indwara zitandukanye harimo imvune, igifu, umwijima ndetse n'indi. Nubwo muri iyi minsi bitakigaragara ariko hari aho bigikorwa.

Mu Rwanda rwo hambere, wasangaga abaturage bikorera imiti gakondo, ikozwe mu bimera ndetse n'ibindi bitandukanye, ibi byifashishwaga mu kuvura indwara zitandukanye, harimo igifu ndetse n'izindi.

Imiti gakondo ni imwe yari ifite akamaro mu buzima bw'Abanyarwanda ndetse n'abandi baturage muri rusange kuko wasangaga bakoresha imiti ituruka ku bimera bakavura indwara zitandukanye harimo igifu, umwijima ndetse n'izindi ndwara.

Mu Rwanda rwo hambere mu myaka itari myinshi cyane, abavuzi bifashishaga ibimera ndetse n'ibindi bitandukanye bakavura indwara ndetse bakanagira inama abarwayi.

Mu myaka yashize abavuzi gakondo bifashishaga ibimera bitandukanye mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye, indwara twavugamo nk'indwara y'umwijima, igifu ndetse n'ibindi.

Minisiteri y'ubuzima ndetse n'abakozi bakora mu bigo nderabuzima bigiye bitandukanye bishimiye intego bamaze kugeraho aho bahuye, bakaganira, bakishima ndetse bakagenda bahana n'impano zitandukanye muri gahunda ya baho neza.

Ku bigo nderabuzima ndetse no ku yandi mavuriro, ni hamwe mu hatangirwa amahugurwa ku byerekeranye n'ubuzima. Aha ngaha abaturage baganirizwa ibyiza by'isuku ndetse bagashishikarizwa no kujya bakaraba amazi meza n'isabune.

Minisiteri y'Ubuzima yashyizeho gahunda ku bigo by'amashuri abanza, ay'inshuke ndetse n'amashuri yisumbuye bwo gukaraba kugira ngo hirindwe indwara zituruka ku mwanda.

Amaduka acuruza imiti y'amatungo atandukanye harimo nk'inkoko, ni amwe mu maduka agomba kwita ku miti y'izi nyamaswa mu rwego rwo kwirinda ko iyi miti ishobora kwangirika.

Abakozi bo ku kigo nderabuzima barangajwe imbere n'umuyobozi ubayobora, arabaha amahugurwa ababwira uburyo bazajya batanga serivisi neza kandi ko bagomba kujya bubahiriza uburenganzira bw'umurwayi.

Hamwe mu hatangirwa serivisi zitandukanye z'ubuzima nk'ahazwi ku izina rya Ineza masaje s menta mu ndimi z'amahanga ni hamwe mu hishimirwa n'abaturage kuko bahakura serivisi nziza kandi zibanyuze.

Mu bitaro kwa muganga haboneka serivisi zitandukanye harimo gufasha ababyeyi batwite abana ndetse n'abasaza, ibi ngibi byashyizweho na Leta mu rwego rwo kugira ngo umuturage agire ubuzima bwiza.

Abakozi bo kwa muganga barasabwa gutanga serivisi nziza kandi bakitonda, ibi bifasha abarwayi gukira vuba kandi mu gihe gitoya.

Abakozi bakora kwa muganga barashimira Leta y'u Rwanda ndetse na Minisiteri y'Ubuzima ko babazaniye za mudasobwa zizajya zibafasha kubika amakuru kugira ngo atabura.

Mu rwego rwo kugenzura imikurire y'abana, ababyeyi barasabwa kujya bajyana abana kwa muganga, igihe batangiye kugaragaza ibimenyetso by'indwara zitandukanye, zaba iz'ubumuga ndetse n'izindi.

Abaganga bo ku bitaro barasabwa kwita ku barwayi birinda, kurangara kandi bakabikorana umutima w'urukundo, ibi ngibi bigafasha umurwayi gukira vuba kandi byihuse.